Umukobwa ufite mikoro ufite terefone mu ntoki wambaye ikanzu isa ikigina yambaye n'isaha isa ikigina, inyuma ye hari n'intebe zisa ubururu inyuma ye hari urukuta rusa ubururu biragaragara ko ari nko gutanga ubutangabuhamya.

Abantu benshi batandukanye imbere yabo hari ameza asa ubururu hateretse utubuni tw'amazi n'amakaye n'amakaramu n'amatelefoni, bigahagariko ari nk'abantu bari mu nama, inyuma yabo hari inzu isa shokora hirya yaho harimo kwaka amatara.

Umugabo wambaye imyenda isa umukara na karuvati isa umukara yambaye n'isaha n'impeta, imbere ye hari mikoro ahagaze ku meza asa umweru yandikishije inyuguti zisa ubururu, hirya ye hari icyapa gisa icyatsi cyandikishije inyuguti zisa umweru, biragaragara yuko hari nk'ijambo ari kuvuga mu nama.

Abantu bane bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari ameza asa umutuku n'umukara imbere y'ameza hari mikoro, telefoni, hariho n'amakaye. Umukobwa umwe yambaye agapira gasa umweru n'ikoti risa ubururu umugabo nawe, yambaye ishati isa umweru n'isaha ku kuboko inyuma yaho hari n'intebe nziza cyane zisa umutuku.

Abagore batatu inyuma yabo hicaye abagabo babiri, imbere y'aba bagabo ba hari ameza asa umweru atetseho kompyuta zisa umukara, inyuma y'aba bagabo hari urukuta rufite irangi risa umweru, umugore afite mikoro biragaragara ko ari nk'ijambo ari kuvuga, inyuma y'uyu mugore hari intebe zisa umuhondo.

Abantu benshi cyane, imbere yabo hari umugore uhagaze afite urupapuro n'ikaramu, yambaye ipantaro isa ubururu, afite imisatsi y'umutuku, yambaye ishati irurimo utudomagu, biragaragara ko ari kugira bantu inama. Impande yaba bantu hari ibyapa, hari n'amapoto, hari n'ikimodoka kinini cyane gisa ubururu n'umukara.

Inyubako nziza cyane, irimo abantu batandukanye, imbere yabo hari ameza asa shokora, ateretseho amazi n'ibitabo na terefone imbere hari umugore wambaye amadarubindi ufite imisatsi y'umukara, hariho n'umugabo wambaye amadarubindi, wambaye ikositimu imbere yambaye ishati isa n'umweru, hari n'urukuta rusa umweru.

Abantu benshi bicaye bari kureba ameza, ateretse utubuni ameza asa umutuku, inyuma y'aya meza intebe zisa ubururu, hejuru hariho purafo zisa umweru, ibikuta bifite irangi risa umweru.

Abantu batanu imbere y'aba bantu batateretseho amazi na ji, harimo umugore usutse imisatsi y'umukara wambaye n'amadarubindi, hirya y'uyu mu mugore hari umugabo wegereye mikorofoni umeze nk'umuntu uri kubaha amabwiriza.

Inzu irimo abantu benshi cyane bicaye ku ntebe zisa umutuku, harimo n'amatara yaka cyane, biragaragara ko ari nk'ahantu habereye nk'igitaramo, hasi hari tapi isa ubururu, hari n'abantu bagiye bambaye imyenda itandukanye cyane.

Abantu benshi batandukanye, imbere yabo hari za compiyuta, biragaragara nk'aho bari mu nama, imbere yabo hari umuntu uri kubabwira ibyo bakora .Harimo abagabo n'abagore. Imbere hari umugabo wambaye ishati isa ikigina ,yambaye n'ipantaro isa ikigina. Undi nawe we afite igikapu imbere ye.

Abantu benshi cyane batandukanye, hahagaze umugabo wambaye umupira w'umukara, afite mikoro, imbere y'aba bantu hateretseho amazi, biragaragara yuko bari bamuhaye ijambo bari nko mu nama. Hariho n'umwana wambaye umupira w'umukara, yambaye n'agashanete, hirya yabo hari urukuta rusa umweru n'umutako usa shokora.

Abantu benshi batandukanye bicaye mu mutaka usa umweru, imbere hariho icyatsi, umuhondo, imbere yabo hariho umugabo uhagaze uhagaze ku meza asa umutuku, wambaye umupira usa oranje, afite mikoro yambaye n'ipantaro isa umukara, biragaragara ko afite nk'ibintu ari kubasomera.

Abantu babiri umugore n'umugabo umugore yambaye ishati y'ubururu, afite n'umusatsi w'umukara, imbere ye hari igitabo biragaragara ko afite nk'ibitekerezo ari kwandika hirya ye hari umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ikoti ry'umukara, imbere yabo hari ameza ya shokora n'akabuni gateretse imbere ya wa mugabo.

Abantu benshi batandukanye imbere yabo hari ameza asa umukara ameza ateretseho amazi n'agaseke n'impapuro n'amakaramu umugore yambaye rinete arikureba muri telefoni n'undi mugore ari kureba muri telefone biragaragara ko bari mu nama bose bari guhuriza ibitekerezo hamwe.

Abantu benshi batandukanye bahagaze inyuma, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi, ameza asa umukara afite intebe zisa ubururu, abo bantu ndabona bashaka nko kuza kwicara.

Abantu batatu hariho abagabo babiri n'umugore umwe imbere yabo hari ameza asa umutuku imbere y'ameza hariho kopiyuta n'amazi yo kunywa inyuma yabo hari ibyapa bisa ubururu n'icyatsi.

Abantu benshi batandukanye abagore n'abagabo harimo n'umugore w'umuzungu ufite telefone mu ntoki afite n'akapu gasa umuhondo, biragaragara ko bari nk'ahantu mu nama, harimo umugore wambaye ikanzu irimo ibara ry'ubururu n'umuhondo n'umugabo, ku ruhande ufite igikapu na terefone mu ntoki yambaye n'ishati y'ubururu n'abandi bantu batandukanye.

Inyubako nziza cyane iriho abantu benshi bicaye bicaye ku ntebe zisa umuhondo n'ubururu n'umweru, imbere yabo hari abantu bamanitse ibiganza, hirya yaho hari icyapa gisa ubururu biragaragara ko bishimye.

Umugore uhagaze afashe mikoro yambaye agashati gasa umukara imbere yiwe hari ibitambaro bisa umweru, ku meza hariho n'akabage gasa umweru. Hari n'igitabo gisa ubururu hari na telefoni hirya ye hari ameza asa umweru hicayeho abantu bane imbere yabo bantu hari agakombe gasa umukara ateretseho n'amazi n'ibipapuro na telefone inyuma yabo hari ibikuta bisa umweru.

Abantu benshi batandukanye imbere yabo ku meza hateretse amazi na komputa, umugabo umwe yambaye ipantaro y’ubururu n'umupira w'umweru n'ingofero y'umukara, undi mugore nawe yambaye ingofero y'umweru n'amadarubindi, afite na terefone mu ntoki n'igikapu imbere ye. Inyuma y'aho hari abantu batatu bishimye n'urukuta rusa umweru.

Abantu batandukanye abagore n'abagabo, imbere yabo hari ameza asa shokora, ateretseho amazi na telefoni n'ururabyo rwiza cyane rusa icyatsi. Harimo umugore wambaye agapira gasa icyatsi n'umweru, ufite imisatsi y'umukara. Inyuma ye hari umugabo na we wambaye ikoti risa umukara. Inyuma yaho hari urukuta rusa umukara.

Abantu benshi cyane bicaye ku ntebe zisa umweru zo kwegamirwa, imbere yabo hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, bicaye mu mutaka ufite ibara risa umuhondo n'ubururu n'icyatsi, imbere hicaye abagabo batatu umugabo umwe yambaye umupira w'umutuku, undi yambaye umupira w'umweru undi yambaye ishati.

Umugore ufite mikoro wambaye amadarubindi impande ye hari umugabo umugabo wambaye agapira k'umweru yicaye mu ntebe y'umutuku impande y'uyu mugabo hari ameza ateretse akabuni biragaragara ko umugore hari nk'umutangabuhamya ari kubabwira

Abagabo bicaye mu ntebe zisa shokora, imbere yaho hari ameza ateretseho amazi n'ibirahure, inyuma yabo hari icyapa gisa umweru cyandikishijwe mu nyuguti zisa ubururu n'umuhondo. Biragaragara ko bari nko mu nama.

Abantu batatu ,abagabo babiri n'umugore umwe, umugabo umwe afashe mikoro , nk'aho ari gutanga igitekerezo . Naho umugore na we afite imbere y'iwe ikaye, umugabo nawe afite ikaye n'ikaramu. Ku mpande hateretseho amazi , inyuma yabo, hariho icyapa gisa ubururu, cyakishije mu nyuguti zisa umweru.

Umugabo wambaye ishati ya shokora, imbere ye kumeza hariho telefoni n'ikaramu n'urupapuro n'amazi, inyuma ye hari umugore wambaye agapira gasa umukara n'umweru, ku meza ye hateretse amazi, hirya ye hari undi mugore wambaye ikoti risa umukara, imbere y'ikoti yambaye agashati gasa umweru, imbere y'ameza ye hateretse nawe urupapuro n'karamu. Biragaragara ko bari mu nama.

Abagabo babiri imbere yabo ku meza hateretse amazi inyuma yabo hari icyapa gisa ubururu cyanyandikishije mu nyuguti zisa umweru, umugabo umwe yambaye ishati y'umweru biragaragara ko ari kuvuga nk'ijambo ari kurebana n'undi. Undi mugabo nawe yambaye ikoti risa ubururu imbere yambaye ishati isa umweru n'isaha ku kuboko.

Abantu barindwi, harimo abagabo bane n'abagore batatu. Imbere hicaye abantu batatu, hariho umugabo wambaye ishati isa ikigina n'uwambaye ishati isa umweru, n'umugore wambaye ikoti isa ikigina. Bicaye ku ntebe z'umukara, inyuma yabo hari urukuta rusa umweru, hiryabo hari icyapa gifite ibara ry'ubururu, n'ikindi cyapa gifite ibara risa icyatsi.

Abantu benshi cyane imbere yabo hari umugabo wambaye inkweto z'umukara n'ipantaro ya shokora n'akajiji gasa umukara, biragaragara ko bano abantu bari mu nama hari nk'ikintu ari kubabwira, impande y'aba bantu hari ibiti byinshi bisa icyatsi.

Abantu benshi cyane batandukanye hari umugabo wambaye ishati iciyemo uturongongo tw'umutuku n'umweru, ahagaze afite mikoro ari nko kubabwira nk'ibyabereye mu nama. Imbere y'aba bantu hateretse amazi ku meza hariho na terefoni, hariho n'umugore wambaye ikoti risa umuhondo.

Abantu benshi cyane bishimimye bambaye imipira y'umutuku nyuma yaho hari n'abandi bantu babahagarikiye, hirya yaho hari icyapa gisa umweru cyandikishije mu nyuguti zisa umukara n'umweru. Hari n'urukuta rusa shokora hejuru yabo, bishimye cyane bano bantu.

Abagabo batatu bambaye imipira isa y’ubururu bahagaze impande y’umunara w’itumanaho, hasi hari ubusitani bus’icyatsi n’ibikapu bis’umukara, hirya yaho har’umuhanda w’ubutaka, hirya y'umuhanda hari ibiti bis’icyatsi, hirya hari n'amapoto manini.

Umuhanda w'igitaka, hepfo y'umuhanda hariho inzu ifite urugi rusa ubururu n'ibara ry'umweru, hepfo y'uyu munara w'itumanaho hariho ibiti bisa icyatsi byinshi cyane, uyu munara ufite ibara risa umweru n'icyatsi.

Umunara w'itumanaho ujyana amarezo hirya no hino ku isi hatandukanye, ufite amabara y'umutuku n'umweru, ufite n'utuntu mu mpande dusa umweru n'umukara. Ibicu biri hejuru birasa ubururu n'umweru.

Umunara w'itumanaho ujyana amarezo hirya no hino ku Isi hatandukanye, ufite amabarasa umweru, umutuku, umukara n'insinga nazo zisa umukara, hejuru y'uyu munara hariho ibintu bimeze nk'ibisorori bijyana amarezo, hejuru na none w'uyu munara hariho igicu gisa ubururu.

Umunara w'itumanaho ujyana amarezo hirya no hino hatandukanye, ufite ibara ry'umutuku n'umweru, hasi hari ibyuma bisa umweru n'umutuku, hari n'utubogisi turi impande y'umunara dusa umweru, hariho n'akazu gasa ubururu gafite n'urugi rusa icyatsi, hirya y'umunara hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi.

Umunara ujyana amarezo hirya no hino hatandukanye, ufite amabara y'umutuku n'umweru, hasi hari ibyuma bisa umweru, hariho igitambaro gisa umuhondo, handikishijeho inyuguti zisa umweru, hirya hariho n'ubusitani bwiza cyane busa icyatsi.

Inzu nziza yubakishijwe amatafari asa umukara n'umweru, afite urugi rusa umukara, hirya hariho intebe isa ubururu n'umutuku, hariho n'amarido asa umukara, hariho n'ibikuta bisa umweru.

Umunara w'itumanaho ujyana amarezo hirya no hino ku isi, ufite ibara ry'umutuku n'umweru, hasi hari insinga n'ubusitani busa icyatsi hirya hari n'ibiti byinshi cyane.

Umuhanda uriho amapave asa ikigina, imbere y'umuhanda hari ubusitani bwiza cyane bufite indabyo zisa umuhondo n'icyatsi, impande y'uwo muhanda hari inyubako nziza cyane ifite amabara asa umweru n'umukara hirya yaho hariho indi nyubako ifite amabara

Umunara w'itumanaho ufite ibara risa umutuku n'ubururu, hirya y'umunara hari inzu bari kubaka batararangiza hasi y'umunara hariho igipangu gisa umukara, hasi yaho hari umuhanda w'igitaka, hakurya y'umunara hari insinga zijyana umuriro hirya no hino ku isa.

Umuhanda ufite amapavi asi kigina hirya y'umuhanda yicayeho umugore wambaye ijipo y'umukara n'umweru witezaga agasharupe gasa ikigina wambaye ijile isa umuhondo hakurya hari inzu nziza cyane ifite igipangu gisa icyatsi impande y'iyo nzu hari icyapa gisa umweru cyanditse mu nyuguti zisa umutuku n'umweru handitseho iby'irembo.

Umunara ujyana amarezo ahantu hatandukanye ufite ibara risa umweru, n'umutuku, n'umukara hasi hari ibyuma nabyo bisa umweru n'umukara, hariho utu bogisi turi hirya dusa umweru hirya y'umunara hariho n'ibyatsi bisa icyatsi.

Umugore uri kumwenyura cyane yambaye ikoti risa umweru, afite imisatsi isa umutuku, ku meza hateretseho kompiyuta hariho n'impapuro hariho na rinete, hirya ye hari urukuta rusa umweru rwandikishije mu nyuguti zisa umukara n'ubururu.

Umunara w'itumanaho ujyana amarezo hirya no hino hatandukanye, ufite amabara asa icyatsi hirya hariho utubogisi dusa umweru hejuru y'umunara hariho ibicu bisa umweru, umweru n'ubururu hasi hariho n'ibiti bisa icyatsi.

Abagore babiri umwe yambaye rineti yitandiye n'agatambaro, afashe telefoni n'undi afashe telefoni, biragaragara ko bicaye mu modoka, uyu mugore ari kwereka undi muri telefoni nk'ibintu, hirya yabo hari umugabo uri kubareba, wambaye imyenda isa ubururu, wegamiye intebe isa icyatsi, hejuru harasa umukara n'umweru.

Umunara w'itumanaho ujyana amarezo, hirya no hino ku isi hatandukanye, ufite amabara asa umutuku n'umweru, hasi hariho n'akazu gasa umuhondo biragaragara koko bacururizamo amayinite, hirya y'uyu munara hariho n'ibicu bisa umweru, ni umweru n'ubururi biragaragara ko ari mu ijuru.

Umunara utanga amaherezo hirya no hino, ufite ibara risa umukara n'umweru, hasi hari ibyuma bisa umweru n'umukara, hasi hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi hirya y'umunara hari umuhanda usa umukara hariho n'ibyapa kumuhanda hariho n'amapoto ku muhanda hirya hari n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Umuhanda ufite amabuye asa ikigina, hirya y'uyu muhanda hriyo ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, imbere y'uyu muhanda hari inyubako nini cyane ifite igipangu gisa icyatsi kijimye, iyi nyubako yubakishijwe n'utubuye dusa shokora.

Mu muhanda w'umukara harimo umumotari kumwenyura cyane, hirya y'umumotari hariho icyapa cy'umweru cyandikishije amabara asa umukara n'umweru, biragaragara ko haba serivisi z'irembo, hirya yaho hari inyubako nziza cyane n'ibiti bisa icyatsi n'umugabo uri impande y'icyapa wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Icyapa gisa umweru gifite ibara ry'umukara n'umutuku, inyuma y'iki cyapa hari insinga zijyana umuriro hirya no hino ku isi, inyuma y'iki cyapa hariho n'inzu nini cyane ifite amabara y'umweru, n'inzugi z'umukara, n'umuhanda w'igitaka.

Umuhanda usa ikigina, hirya y'umuhanda hariho insinga zijyana umuriro hirya no hino ku isi hatandukanye. Impande y'izi tsinga, hariho ubusitani bwiza cyane busa icyatsi n'umutuku, impande y'ubu busitani hariho ninzu nziza cyane, zubakishije amabati asa umutuku. Hariho n'ibiti bisa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara uri kugendamo imodoka isa ubururu n'umumotari inyuma, ruguru y'umuhanda hari agahanda k'abanyamaguru hari kugendaho umugore uteraye umwana, hirya y'umuhanda hari n'amapoto ajyana umuriro ahantu hatandukanye, hirya y'amapoto hariho n'igipangu cyiza cyane gisa umukara n'ibiti bisa icyatsi.

Inyubako nziza cyane, ifite ibara risa umutuku n'ubururu, hejuru hari irangi risa ubururu, hejuru hariho n'ipoto rijyana umuriro hirya no hino hatandukanye, hariho n'urukuta rusa umweru, hasi hariho n'umutaka usa umutuku, biragaragara ko ariho bari gucuzamo amayinite.

Insinga zijyana umuriro hirya no hino hatandukanye, hariho insinga zisa umukara, hariho n'ibyuma bisa umweru, hasi hariho utubuye dusa umweru, hasi y'izi nsinga hariho n'imidugudu hirya yaho hari ibiti bisa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo ruguru y'umuhanda hari akayira k'abagenzi hari kugendamo abantu babiri umugore wambaye umupira w'umukara afite na terefone inyuma ,hejuru yabo hari amapoto ajyana umuriro hirya no hino ku isi, hari n'amatara yo mu muhanda ruguru yabo hari n'ingemu nyinshi cyane.

Ipoto risa umukara hariho insinga zijyana umuriro hirya no hino ku isi, impande y'iri poto hariho amazu afite irangi risa umweru n'umuhondo, hejuru y'iri poto hariho ibicu bisa umweru biragaragara ko ari ku manywa.

Ipoto rijyana umuriro hirya no hino, hasi y'aya mapoto hari ibyatsi bisa icyatsi hirya y'iyi poto hari inzu ifite amabati asa umutuku, yubakishijwe amatafari asa shokora, igipangu nacyo cyubakishijwe amatafari ya shokora amadirishya asa umweru.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara, ruguru hatangije amatafari asa umukara n'umweru, hirya hari agahanda k'abanyamaguru, hirya y'ako gahanda hariho ubusitani bwiza cyane, hari indabyo zisa icyatsi, hari n'izisa umuhondo, hejuru y'izo ndabyo hari amapoto ajyana umuriro hirya no hino ku Isi.

Ipoto risa umweru hariho insinga zisa umukara, inzi nsinga zinjana umuriro hirya no hino hatandukanye, impande y'iri poto hariho utubogisi dusa umweru, iri poto hirya yaho hariho igicu gisa umweru biragaragara ko ari kumanywa.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'amabuye asa umukara, impande y'umuhanda hari akapuberi gasa umukara, hirya y'umuhanda hari umunara ujyana amarezo ku isi no hino hatandukanye, hirya y'umunara hari ibiti by'icyatsi byinshi cyane impande y'umuhanda hari n'icyapa cyandikishijwe amabara asa umutuku n'utudomagu dusa ubururu.

Umuhanda w'igitaka hirya y'uwo muhanda hari ibiti bifite amabara y'icyatsi n'ipoto nini cyane ifite insinga zijyana umuriro hirya no hino ku isi, n'inzu nini cyane iri hirya y'ibi biti.

Inyubako nziza cyane ifite ibara risa umweru, imbere y'inyubako hari indabyo nziza cyane, izasa icyatsi, izisa umutuku, impande y'iyi nyubako hari ipoto rinini cyane ririho insinga z'umukara zijyana umuriro hirya no hino hatandukanye, haparitseho n'imodoka isa umukara n'umweru hasi hariho n'akantu k'agatajeri gasa umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukara uriho uturongo dusa umweru, hirya hariyo imodoka ziparitse z'umukara n'umweru. Hejuru hariho amatara yo mumuhanda n'ibiti bisa icyatsi, impande y'izi modoka hari inzu ifite irangi risa umutuku.

Ipoto rinini cyane rifite insingazi z'umutuku zijyana umuriro hirya no hino hatandukanye, hasi hari ipoto hari ibyatsi bisa icyatsi hirya, y'ibi y'ibi byatsi hariho ibyuma bisa umutuku, hirya y'ibi ibyuma hari inyubako nziza cyane yubakishije amatafari asa shokora, hariho n'ibara risa ubururu.

Insinga zijyana umuriro hirya no hino ku isi hatandukanye zifite ibara risa umukara, hasi hari ibyuma bisa umweru hirya yaho hari inzu nyinshi cyane zifite amabati asa umutuku, hasi hari n'insina zisa icyatsim hirya yaho hari n'ibiti bisa icyatsi.

I poto rinini cyane, rijyana umuriro hirya no hino ku isi hatandukanye, hirya y'iri poto hari ibicu bisa umweru, biragaragara ko ari ku manywa. Impande y'iri poto, hariho ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Umuhanda ufite amabuye asa umukara n'umweru impande y'umuhanda hari ubusitani busa icyatsi ,muri ubu busitani harimo ipoto rinini cyane rifite insinga nyinshi z'umukara zijyana umuriro ahantu hatandukanye, impande y'ipota hari urukuta rusa umweru hariho n'inzu ifite ibara ry'umutuku n'ikigega gisa umukara.

Umuhanda wa kaburimbo, hirya y'umuhanda hari abamotari baparitse ruguru ho hari imodoka ebyiri ziparitse iy'umweru n'umukara, ruguru y'izo modoka hari abagenzi bari kugenda benshi, hari n'inyubako nini cyane ifite n'amabara asa umweru n'ubururu, hari n'indi nyubako iri hirya nayo bakiri kubaka itararangira, hari n'ipoto rijyana umuriro hirya no hino.

Inyubako nziza cyane ifite ibara ry'umukara n'umweru, impande y'iyi nyubako hari insinga zijyana umuriro hirya no hino ku isi, hasi hari icyapa gisa umweru cyandikishije mu nyuguti zisa ubururu, hirya hari n'ikindi cyapa gisa umukara.

Ipoto risa umukara rifite insinga zisa umukara, insinga zijyana umuriro hirya no hino hatandukanye, hasi hari urukuta rusa umukara n'irangi risa umutuku, ku rukuta hari akapa gasa umweru kandikishije mu nyuguti zisa umukara, hejuru hari inzu yubakishije ubutafari busa shokora n'ibiti bisa icyatsi.

Ubusitani bwiza cyane busa icyatsi impande y'ubusitani hari insinga zijyana umuriro, hirya no hino ku isi hatandukanye hejuru y'izi nsinga hariho ibicu bisa umweru n'ubururu, hasi hariho n'umuhanda usa igitaka.

Amapoto manini cyane afiteho utubogisi dusa shokora, ku tubogisi hashushanyijeho umukara, hariho agafureshi kareba hejuru n'akareba hasi, hirya y'amapoto hariho ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Umuhanda w'igitaka uri kugendamo imodoka y'umukara, hirya hariho n'izindi modoka eshatu, imwe y'umukara n'iy'umweru n'indi y'umukara hirya y'izi modoka hari umugabo uhahagaze urimo kuvugira kuri telefone, hariho n'umutaka usa umuhondo biragaragara ko ariho bacururiza amayinite hariho n'amapoto ajyana umuriro hirya no hino ku isi hatandukanye.

Ubusitani bwiza cyane bufite indabyo zisa icyatsi, hatewe n'igiti gisa icyatsi. Hariho ipoto risa umweru hariho insinga zijyana umuriro hirya no hino hatandukanye. Hakurya y'ubusitani hariho umuhanda ushiyemo umurongo w'umweru, hirya yaho hari inyubako nziza cyane ifite igipangu gisa umukara, hirya y'igipangu harasa umweru, mo imbere harimo inzu iriho ibigega bisa umukara.

Hano hari amapoto ajyana insinga hirya no hino, inyuma y'amapoto hari ibiti bifite amabara y'umukara nay'icyatsi hejuru yaya mapoto hariho insinga.

Insinga zijyana umuriro hirya no hino hatandukanye hariho n'itara ryo mu muhanda, hariho n'akapa gasa umweru kandikisheye mu nyuguti zisa umutuku. Hirya y'akapa hariho n'irangi risa ubururu handikishaho inyuguti zisa umwera imbere yinzo nsinga hariho n'ibiti bisa icyatsi.

Igipangu gisa umukara n'umweru hejuru hariho insinga zisa umukara hariho n'amatara, hejuru hari insinga zijyana umuriro ahantu hatandukanye, hejuru hari igicu gisa umweru biragaragara ko ari ku manywa.

Aha hari ipoto rifite insinga z'umukara zijyana umuriro hirya no hino ku isi, hirya y'iyi poto hari inzu igeretse ifite amabara y'umweru n'umukara, biragaragara ko ari ku manywa hirya hirya y'izi nsinga hari ibicu bisa umweru.

Umuhanda w'umukara hirya y'umuhanda hariho ubusitani bwiza cyane busa icyatsi hejuru yiyi nyubako hari akapa gasa ubururu kandikishije amabara asa umweru hirya hariho n'izindi nzu zifite ibara ry'umweru hariho umuntu wambaye imyenda isa ubururu.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'inkweto z'umukara n'umweru, biragaragara ko yaje kwaka serviisi kwa muganga, inyuma ye hari abandi bantu hirya y'uyu mugabo hari indabyo z'icyatsi hirya y'uyu mugabo harimo inzu.

Ubusitani bwiza cyane bufite ibara ry'icyatsi harimo ururabyo rusa icyatsi. Hirya yubu busitani hari inzu nini cyane, muri ubu busitani harimo n'icyapa gisa umutuku hasi hariho n'i ibaramye ryandikishije mu nyuguti zisa umweru icyaha n'izindi nzu nyinshi.

Iyi ni inyubako igeretse kabiri, impande y'iyi nyubako hari indabyo z'icyatsi, hari umukobwa uri kujya kuhinjira biragaragara neza ko ari nko kwa muganga.

Intebe zisa umweru, hirya y'izi ntebe hari intebe isa shokora hirya y'izi ntebe hari urukuta rusa umuhondo, ku rukuta hariho akabogisi gasa umutuku, imbere yi'izi ntebe hariho amabuye asa umukara na shokora.

Umuhanda w'igitaka kumpande, hariho ibyuma bisa umukara, kuruhande hariho utubuye duto dusa shokora, hirya y'utubuye hariho ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, imbere y'ubusitani hari inyubako nziza cyane yubakishije ubutafari busa shokora n'umukara, impande yinzu hari intebe zisa umukara zo bateguriye abarwayi.

Umuhanda ufite amapave asa ikigina, amapave ateretseho icupa risa umutuku rifite n'insinga zisa umukara, impande y'uyu muhanda hariho ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, hariho n'inzu nziza cyane ifite amabati asa umutuku.

Ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, harimo akapa gasa ubururu kandikishije amabara asa umweru. Impande y'ubwo busitani hari inzu nziza cyane ifite irange risa umuhondo n'umweru. Impande y'iyo nzu hari akapa gasa umukara kandikishije mu nyuguti zisa umweru.

Umuhanda w'igitaka uri kugendamo abantu babiri, bari gukurura agatanda kariho amajage n'ibisorori, hariho hirya hariho umukobwa wambaye ishati y'umweru, n'ipantaro isa umukara. Hino na ho hariho umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'ingofero yumweru. Hirya yaho hariho ubusitani busa icyatsi.

Umuhanda wubakishijwe amatafari ya shokora, hagati harimo ubusitani busa icyatsi, hateyemo igiti kinini cyane gisa icyatsi, hirya yaho hari n'ubundi busitani bwiza cyane buriho uturabyo tw'umutuku n'icyatsi, hirya y'utu turabyo hari inzu isa ubururu yandikishijeho inyuguti zisa umweru hariho n'utwapa dusa ubururu n'imweru, hirya yaho hari n'ikindi cyapa gisa icyatsi.

Abagabo babiri bambaye amataburiya asa umweruru, umugabo umwe yicaye mu ntebe isa umukara n'umweru, hasi hari amkaro asa umweru, hirya yabo hari irangi risa umweru, hariho n'aho bakarabira hasa umweru, imbere yabo hari ameza asa shokora ariho impapuro na kompiyuta, hariho n'akantu batamo imyanda gasa umweru.

Inyubako nziza cyane, imbere y'iyi nyubako hari ubusitani busa icyatsi, impande y'ubu busitani harimo akapa gasa ubururu kandikishije inyuguti zisa umweru, hejuru y'iyi nyubako hariho ibigega bisa umukara byandikishije inyuguti isa umweru.

Umuhanda usa ikigina uri kugendamo abantu bambaye imyenda isa ubururu, hirya y'uyu muhanda hariho ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, hejuru ya'mabati asa umukara, hasi hariho n'ibiti bisa umukara, hirya hari'indi nyubako ifite amabati asa umutuku.

Inyubako nziza cyane impande y'iyi nyubako hari intebe zisa umweru, impande y'izi ntebe hariho umugore wambaye umupirausa umweru n'ijipo isa umutuku, hirya hari abandi bantu bambaye imyenda y'umukara bicaye mu ntebe za shokora, iyi nyubako y'ubakishijwe n'amabuye asa shokora, hirya y'inyubako ubusitani busa icyatsi.

Abantu benshi bari mu nama, imbere yabo hari ameza asa shokora n'ubusitani busa icyatsi, mu busitani hahagaze umugabo wambaye ipantaro ya shokora, bigaragare ko hano hantu habereye inama, uyu mugabo ari we wakoze ibyaha bamusize imbere y'abandi bantu.

Urupapuro rusa umweru rwandikisha inyuguti zisa umukara, hariho sinya isa ubururu, hariho ikirangantego gisa ubururu, kirimo igiseke n'uturabyo mu mpande, handitseho n'itariki n'umwaka.

Abagabo babiri bahagaze ku muhanda w'igitaka, umwe yambaye amadarubindi n'ishati y'umukara, yambaye n'amapingu, afite n'icupa ry'amazi mu ntoki. Inyuma ye hari umugabo ufite imbunda, wambaye imyenda y'umukara. Biragaragara y'uko uyu mugabo afite nk'icyaha yakoze, bamushyikirije ubushinjacyaha.

Umugabo wicaye utuje cyane, yambaye igikanzu gisa umutuku, imbere ye hasa umukara hariho na karuvati isa umweru, mo imbere yambariyemo ishati isa umweru na karuvati isa umutuku, inyuma ye hari urukuta rusa umweru, uyu mugabo biragaragara ko ari umucamanza.

Abantu benshi batandukanye biragaragara ko bari nko mu nama imbere y'abo bantu hatetse ameza ariho mikoro n'urupapuro na telefoni hariho abantu bamanitse amaboko bashaka nko gusubiza ibibazo impande y'aba bantu hejuru hariho icyapa cyandikishije inyuguti zisa umweru.

Inyubako nziza cyane irimo abantu batandukanye, abagore n'abagabo, imbere y'abo bantu hicaye umugabo, imbere hari ameza asa shokora, hateretse ku meza amazi na telefoni n'ibitabo, hari umugabo wahagurutse ari kuvuga igitekerezo, wa mugabo uri imbere nawe akandika.

Umugabo uri kureba imbere yiwe, yambaye ishati isa umukara n'umweru, yambaye n'ikoti risa umukara n'umweru n'ubururu, inyuma yiwe hari urukuta rusa umweru, biragaragara ko imbere yiwe afite nk'ibintu ari kureba.

Abantu benshi cyane bari gusohoka mu kimodoka gisa ikigina, biragaragara ko bano bantu bafite ibyaha bakoze baje nko kubafunga, babambitse udupfukamunwa, babatondesha n'umurongo, abantu babarinze bambaye imyenda isa ikigina cyerererutse n'inkweto zisa umukara. Hirya y'aba bantu hariho ibiti byinshi bisa icyatsi.

Umugabo wambaye igikanzu gisa umutuku, mo imbere yambariye mo ishati isa umweru, yambaye karuvati isa ikigina, biragaragara ko uyu mugabo ari umucamanza. Inyuma yiwe hari urukuta rusa umweru.

Abantu benshi cyane, imbere y'aba bantu hari abantu bicaye bafite ameza asa shokora ariho impapuro zisa umweru, aba bantu bicaye mu busitani bwiza cyane busa icyatsi. Hirya y'ubu busitani hari umutaka hirya yabo hari ibiti bisa icyatsi.

Abantu babiri umugore n'umugabo, umugore yambaye ishati y'umukara n'agapira k'umweru, imbere yaho haateretse ikaye n'amazi mu gikombe, imbere y'umugabo nawe hateretse kombuyuta biragaragara ko bari mu nama inyuma yaho hari urukuta rusa shokora.

Umugabo wambaye igikanzu cy'umutuku, m'imbere yambaye ishati isa umweru, inyuma ye hari urukuta rusa umweru biragaragara ko ari nk'umucamanza, afite nk'abantu ari gucira urubanza cyangwa ari kubarenganura.

Inyubako nziza cyane ifite ibara ry'umweru n'umukara hari icyapa gisa umweru cyandikishije inyuguti zisa ubururu, imbere yinyubako hari imodoka isa umukara n'umweru hariho n'isa umukara imbere yinyubako hariho n'abantu.

Umuhanda wa kaburimbo si umukara, uhagazeho umuntu ushinzwe umutekano yambaye imyenda yumukara, hariho n'icyatsi. Imbere hahagaze imodoka isa umweru, ifite akapa hejuru gasa umuhondo, hasi hariho n'umweru, namapine asa umukara. Impande y'uwo muntu ushinzwe umutekano hariho n'umumotari wambaye iji risa ubururu, ahetse umugenzi.

Inyubako nziza cyane, hejuru yinyubako hari ipoto rinini cyane, biragaragara ko riri kujyana insinga ahantu hatandukanye. Ruguru y'iripoto hariho ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, bigaragara nkaho biteye.

Abantu babiri, umwe ari mu modoka, undi ahagaze inyuma ye, uyu nguyu ni ushinzwe umutekano, yamuhagaritse yambaye imyenda y'umukara irimo n'ibara ry'icyatsi, bigaragara ko ari kumubaza nk'ibyangombwa bimwemerera gutwara ikinyabiziga mu muhanda.

Inyubako nziza cyane ifite irangi risa umuhondo yandikishije mu nyuguti zisa umukara, imbere y'inyubako hari ubusitani bwiza cyane bw'indabyo zisa icyatsi hirya hariho n'ibiti bisa icyatsi hariho n'insinga zishyiramo umuriro.

Umuhanda w'igitaka ukikijwe n'amabuye y'umweru n'umukara, impande y'uyu muhanda hari aho bambukira hahagaze umupolisi wambaye imyenda y'umukara harimo ibara ry'icyatsi impande y'uyu umupolisi hariho n'abantu benshi.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukara hariho umugabo wambaye imyenda y'umukara ushinzwe umutekano harimo n'icyatsi ari guhagarika abantu. Inyuma ye hari abamotari n'imodoka kinini cyane gisa umukara n'umweru.

Amacupa asa umutuku hejuru hariyo insinga zisa umukara, hariho n'akantu gasa umuhondo, impande yaho hari ibikarito bisa ibara ryijimye, hasi naho hari sima yijimye, hirya yaho hari n'irindi bara risa umutuku.

Amacupa abiri rimweri risa umutuku irindi risa ikigina handikishijweho inyuguti zisa umweru n'umukara hariho insinga hejuru zisa umutuku, hasi hari amakaro asa umweru. Aya macupa bayakoresha iyo bari kuzimya nk'ahantu hahiye.

Umuhanda w'umukara uhagazeho abashinzwe umutekano benshi cyane bambaye imyenda yumukara, ku ruhande hariho amapeti asa icyatsi, hariho n'inyenyeri zisa umuhondo, hirya y'abo hariho ibiti byinshi cyane bisa icyatsi n'ibati risa ubururu.

Umuhanda w'igitaka, urimo abashinzwe umutekano bambaye imyenda y'umukara bafite n'imbunda, hepfo y'abashinzwe umutekano hari ikimodoka kinini cyane gisa icyatsi, hariho n'abantu bicaye mu mitaka isa umuhondo. Hariho n'abandi bakobwa bambaye imyenda isa umuhondo, y'amajire biragaragara ko bari gucuruza amayinite ya MTN. Hirya yabo hari amapoto hari n'ibiti bisa icyatsi.

Umuhanda w'igitaka uparitsemo moto isa umukara n'umweru, hahagazeho abagabo babiri bambaye imyenda y'umukara irimo ibara risa icyatsi. Impande y'aba bagabo hariho inyubako nini cyane nziza ifite amabara asa umweru n'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo abantu benshi cyane harimo imodoka isa umukara n'umweru, hari n'umuntu uri gukurura urutsinga rusa umutuku, na we yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara n'inkweto zisa umweru, biragaragara ko ari mu ijoro bwije, hirya y'iyo modoka hari ibiti bisa umukara hari n'amapoto yo kumuhanda n'amatara yo ku kumuhanda.

Umugore wifashe neza wambaye ikoti ry'ubururu n'ijipo y'ubururu, yambaye n'amadarubindi asa umweru, asutse n'imisatsi isa umukara, yicaye mu ntebe isa umukara, inyuma ye hari urukuta rusa umweru.

Abantu bane harimo umugore wicaye wambaye ikoti ry'umweru imbere hari mikoro biragaragara ko afite nk'ibintu arikubabwira, abo bantu bahagaze abantu bahagaze harimo uwambaye ijipo isa umweru n'agapira gasa icyatsi.

Abantu batandukanye abagore batatu n'umugabo umwe, umugabo yambaye agapfukamunwa n'ishati y'umweru anapfutse n'agapfuko ku mutwe, imbere ye hari itasi y'umweru na mikoro n'akabuni k'amazi gateretse ku meza n'abagore na bo imbere yabo hatetse amazi na mikoro, umugore umwe yambaye rinete.

Icyapa cy'umweru cyanyandikishijwe mu nyuguti zisa ubururu, hasi hari abantu bamanitse amadarapo bishimye cyane biragaragara ko hari umuperezida uri kwiyamamariza ko bamutora, hari abambaye ingofero z'umutuku, hari n'abambaye ingofero zisa ubururu.

Abantu benshi cyane bamanitse amadarapo hariho ibara ry'umweru n'umuhondo, imbere hariho umugabo wambaye ishati iriho icyatsi n'umweru n'umuhondo. Impande ye hari umugore wambaye amadarubindi afite n'imisatsi y'umukara nawe yambaye ishati isa umweru.

Abantu benshi cyane, bamanitse amadarapo asa umutuku, n'umweru, n'ubururu. Hariho umugabo wambaye umupira w'umukara, yamanitse ikiganza ari nko kwiyamamaza, abantu bamwishimiye, biragaragara ko bwije, hirya yaho hari ibiti bisa umukara.

Umugabo umanitse ikiganza wambaye amadarubindi y'umukara hasi yiwe hari abantu benshi cyane bamanitse amadarapo asa ubururu n'umweru n'umutuku. Biragaragara ko ari kwiyamamariza kuba perezida.

Umugore wambaye amadarubindi asi n'umukara, wambaye ikinigi gisa umweru. Imbere ye hari mikoro, yamanitse ikiganza bigaragare ko afite ikintu ari kurahira. Imbere ye haridarapo risa ubururu, icyatsi, n'umuhondo, inyuma y'iwe hari urukuta rusa ikigina.

Umugore wambaye rineti z'umukara n'ikoti risa umukara n'agapira gasa umweru imbere ye hari imeza asa shokora ariho telefoni n'amazi, inyuma yiwe hari ibara risa ubururu ryandikishije inyuguti risa umweru.

Umugore uri kumwenyura cyane wambaye agasaha k'umukara, yambaye ishati isa umweru, akenyeye igitenge kirimo icyatsi n'umukara n'umweru. Hirya ye hari ibiti byinshi cyane bisa umukara n'icyatsi, uwo mugore ari kumwenyura cyane afite n'umusatsi w'umukara.

Umugore wambaye umupira w'umweru n'ijipo y'umukara afite ikaramu mu ntoki, n'imbere ku meza hariho urupapuro hirya yiwe hari abantu benshi cyane biragaragara yuko hari nk'ibintu ari kubabwira.

Abantu benshi batonze umurongo biragaragara ko hari nk'umuperezida uri kwiyamamaza baje kumutora, harimo abagabo, harimo n'abakobwa, harimo n'abagore ruguru yabo hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, hejuru hari igicu gisa umweru biragaragara ko ari ku manywa.

Abantu benshi cyane bishimye bamanitse amadarapo bambaye amakanzu asa umweru n'ubururu amadarapo yabo arasa umweru n'ubururu n'umutuku ku idarapo handikishijeho inyuguti isa umukara.

Inyubako nziza cyane irimo abantu batandukanye imbere yabo hateretse ameza asa shokora, ariho indangururamajwi hariho n'amazi, bicaye mu ntebe z'umukara zegamirwa, imbere y'abo hariho n'ibitabo.

Abantu benshi cyane bishimye bamanitse amadarapo biragaragara ko hari umuperezida uri kwiyamamaza, harimo umugabo wambaye umupira w'umutuku, hari n'undi mugabo wambaye umupira usa ubururu, yambaye n'ingofero isa umweru, biragaragara ko ari ku manywa impande hejuru yabo hari igicucu gisa umweru.

Abantu benshi cyane bishimye bamanitse amadarapo asa umutuku n'umweru n'ubururu handikishijemo inyuguti zisa umukara, bambaye ingofero zisa umweru handikishijeho inyuguti zisa ubururu, bazamuye ifoto iriho umugabo witwa Paul Kagame biragaragara ko bari kumwamamaza.

Hano hari umugabo uri kwiyamamaza wambaye ingofero y'umutuku n'agapfukamunwa k'umweru na linete z'umukara. Yazamuye igipfunsi hejuru bigaragare ko ari kwiyamamaza inyuma yiwe hari abantu benshi cyane bamanitse amadarapo bigaragara ko bamwishimiye.

Inyubako nziza cyane irimo abantu benshi batandukanye, imbere yabo hari ameza asa shokora, bicaye mu ntebe z'umukara, inyuma yaho hari idarapo risa ubururu n'umweru, abo bantu biragaragara ko bari mu nama, amakaro ari hasi asa umweru, inyuma hari urukuta rusa umweru.

Umuhanda w'igitakapu uri kugenda mu'modoka isa umweru ifite akabara k'umutuku n'akapa inyuma gasa umuhondo hirya yaho hari ikindi kimodoka gisa umweru n'amapine asa umukara, imbere hari n'indi modoka isa ubururu hariho n'abagenzi n'amatara yo mu muhanda n'ibiti byinshi cyane n'inyubako iri hano hirya.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara, uri kugendamo umunyonzi wambaye umupira usa umutuku n'ishati isa n'umweru. Hirya ye hari ikimodoka kinini cyane, gifite amabara asa umuhondo n'umweru n'umukara. Gihetse abagenzi benshi. Hepfo y'iki kimodoka, hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi hari n'abantu bari kubaka, impande y'uyu muhanda, hariho na rigori ijyana amazi. Ruguru ya rigori hari ubusitani busa ...

Imodoka nziza cyane iparitse mu muhanda w'umukara yandikijwe inyuguti zisa umukara n'umweru, ifite amapine y'umukara, impande y'imodoka hari akabuni gasa shokora gafite n'umupfundiki usa umukara, hirya y'imodoka hari amazu afite irangi risa ubururu n'inzugi zisa ubururu.

Umuhanda w’umukara uri kugendamo iki modoka gifite amabara y'umweru n'amapine as’umukara, hahagaze umugabo wambaye agapira gasa umuhondo, hirya yahis har’umumotari, hirya yo mu muhanda hariho ibiti bisa icyatsi, hari n'umugore uri kugenda wambaye ijipo y'umutuku ahetse.

Umuhanda wa kaburimbo uparitsemo imodoka eshatu, harimo iy'umweru, ifite n'ibara ry'umuhondo, yandikishijweho n'inyuguti zisa umutuku, ifite n'itara ry'umutuku n'amapine y'umukara, imbere yaho hari imodoka isa umukara, inyuma hari akapa gasa umuhondo n'imbere hari modoka y'umweru, hirya y'izi modoka hari inyubako nziza cyane n'ibiti bisa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara uri kugendamo abamotari n'imodoka isa umweru ifite amapine asa umukara, hirya y'umuhanda hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, hirya y'ibiti hari umudugudu utuwe cyane.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'amabuye, asa umukara n'umweru hari kugendamo aba motari batatu, aba motari babiri bahetse abagenzi umwe arahagaze. Hirya y'umuhanda hari ibiti bisa icyatsi, hariho n'amatara yo mu muhanda hirya, hari n'ipoto rijyana umuriro hirya no hino hatandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara uri kugendamo imodoka y'umweru, iriho n'ibara risa umuhondo ufite n'amapine asa umukara hari kugenderaho n'umumotari. Umumotari afite ingofero isa umuhondo hirya y'aba bamotari hariho akayira k'abanyamaguru hari kugendamo umugore wambaye ikanzu isa umweru, hirya y'uyu mugore hari ibiti bisa icyatsi.

Umuhanda w'umukara uri kugendamo ikimodoka kinini gisa umweru, giifite n'amapine asa umukara, impande y'iki kimodoka hari ibiti binini cyane bisa icyatsi, hariho umuntu uri kugenda mu kayira k'abanyamaguru, wambaye imyenda isa ubururu.

Gale iparitsemo imodoka zitandukanye, harimo imodoka isa ubururu n'umukara, hari n'isa umweru n'umukara, harimo abantu bari kugenda, hari n'icyapa gishushanyijeho ibara risa umutuku wijimye, handikishijeho inyuguti zisa ubururu. Harimo umuntu uri kugenda, wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Umuhanda w'umukara urimo ikimodoka kinini cyane gisa umutuku; gifite amapine asa umukara; impande y'icyo kimodoka hari ikindi kimodoka gisa umukara n'umweru n'umumotari; hirya yaho hari amatara yo mu muhanda n'ibiti bisa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamomo y'umukara n'umweru, n'indi isa umukara, n'abamotari, hirya yaho hari ibiti byiza cyane bisa icyatsi, hepfo y'uyu muhanda hari akayira k'abanyamaguru, hariho rigori ijyana amazi impande ya rigore hari indabyo zisa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo umumotari yambaye ijiri isa umuhondo n'ubururu yambaye na kasike isa umutuku, hirya ye hari ibiti bisa icyatsi n'ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, hirya y'umuhanda hariho n'amatara yo mu muhanda hariho n'inyubako nyinshi cyane hirya y'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara ucoyemo akarongo gasa umweru, imbere hari ikimodoka gisa umweru n'umukara, hejuru hariho ishitingi isa ubururu. Imbere y'iki kimodoka hariho umumotari n'ikindi kimodoka gisa ubururu, n'ikindi kimodoka gisa umutuku n'umukara. Hirya hariho n'amatara yo mu muhanda n'ibiti bisa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo umunyonzi ahetse umufuka usa umweru mu mpande hariho umuhondo, hirya y'umuhanda hari rigori itwara amazi, ruguru ya rigori hari n' indabyo, hirya y'umuhanda na none hari ipoto n'amatara yo mu muhanda n'ibiti byinshi bisa icyatsi.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo ukikijwe n'amabuye asa umweru n'umukara, uri kugendamo umumotari uhetse umugore wambaye ipantaro y'umumweru n'inkweto z'umweru n'agapira karimo umukara n'umweru, n'umumotari yambaye ijire isa umuhondo n'ubururu, mu muhanda harimo akarongo gasa umweru hirya y'umuhanda hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Umuhanda w'igitaka uri kugendamo umunyonzi ahetse umufuka usa umweru mu mpande hariho akarongo gasa umutuku, biragaragara ko bwije, imbere hari umuhanda wa kaburimbo uri kuzazana ikimodoka kinini gisa umweruru n'umukara hariho n'igisa umutuku.

Umuhanda usa umukara urimo ikimodoka kinini cyane gitwara abagenzi, impande y'iki cy'imodoka hari umugabo wambaye itaburiya isa ubururu, kino kimodoka gifite amabara y'umweru n'umuhondo, gifite n'amapine asa umukara, impande y'iki kimodoka hari inzu nini cyane ifite ibara ry'icyatsi n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara uri kugendamo ikimodoka kinini cyane gisa umutuku gifite amapine asa umukara, impande y'uwo muhanda hariho akayira k'abanyamaguru kariho abagore babiri uwambaye ijiri isa umuhondo n'uwambaye imyenda isa ubururu. Impande ya kiriya kimodoka gisa umutuku hariho ibiti byinshi cyane bisa icyatsi n'amatara yo mu muhanda.

Umuhanda wigitaka urimo imodoka nyinshi zitandukanye imodoka isa ubururu nisa umweru hariho n'umupolisi n'abantu benshi batandukanye n'umugabo wambaye inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara, n'agapira gasa umuhondo, n'undi wambaye inkweto z'umuhondo n'umupira usa ikigina n'agakapu ahetse gasa icyatsi.

Umuhanda w'umukara, hariho ikimodoka gisa umweru n'umutuku, hirya y'iki kimodoka, hari n'ikimodoka gisa umukara, gifite n'amapine asa umukara. Hirya y'umuhanda, hari akayira k'abanyamaguru, hirya y'akayira k'abanyamaguru, hariho ibiti byinshi cyane bisa icyatsi n'inyubako nini.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ikimodoka kinini cyane gisa umuhondo n'umweru n'umukara, gifite amapine asa umukara, imbere y'iki kimodoka hari kuza imodoka y'umukara n'imodoka ifite ibara risa ubururu n'abanyonzi, hariho n'agahanda k'abanyamaguru kari kugendamo umugabo yambaye umupira w'umutuku, hirya y'izi modoka hari n'ibiti byinshi cyane n'amatara...

Umuhanda w'igitaka uri kugendamo umugabo ku igare, umugabo yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, ahetse imifuka isa umweru n'umuhondo, hirya yiwe hari umugabo wambaye itaburiya y'icyatsi, uhagaze ku modoka ebyiri.

Umuhanda w'igitaka uri kugendamo umugore wambaye igitenge cy'umuhondo n'umutuku. Impande ye hari imodoka nyinshi, n'inyubako ifite igipangu gisa umukara n'insinga zijyana umuriro hirya no hino ku isi n'amatara yo mu muhanda n'ibiti byinshi bisa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukara, urimo ikimodoka cy'umweru, mu kimodoka harimo imizigo hicayeho abantu bambaye imyenda isa ubururu, nuwa mbaye agapira gasa icyatsi, impande y'imodoka hari kugenda umumotari uhetse umugenzi, hirya y'iyi modoka hari amatara yo mu muhanda, hirya yiri tara ryo mu muhanda hari ibiti bisa icya....

Umwenda wa kabirimbo use umukara, hari kugendamo ikimodoka kinini, gisa umweru, gifite amapine asa umukara, harimo ibintu by'ibicuruzwa, hejuru bapfundikijeho shitingi isa ubururu, hicayeho abantu bayirenze. Hirya y'iyo modoka hari amatara yo mu muhanda, hari n'ibiti bisa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara, hashoyemo akarongo gasa umuhondo hari kugenda ikimodoka kinini gisa umweru gifite amapien asa umukara hejuru hapfundikijeho igishitingi gisa ubururu hariho n'igipe gisa umukara, hirya y'icyo kimodoka hari n'inyubako nini cyane ifite amabati asa ubururu n'insinga zijyana umuriro.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo uri kugendamo abanyonzi babiri, umwe yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, wambaye ishati y'umweru n'ipantaro isa ubururu, inyuma yabo hari ikimodoka kinini cyane gisa umutuku n'umukara, cyandikishijwe mu nyuguti zisa umweru. Inyuma y'umuhanda hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikimodoka kinini cyane gisa umweru n'umukara, hirya hari n'ikindi kimodoka kinini gisa ubururu n'umukara. Imbere yaho hari n'imodoka isa umukara n'umweru. Hirya y'izi modoka, hariho ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, inyuma y'izi modoka hariho n'amatara yo mu muhanda n'ubundi busitani bwiza.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'amabuye asa umukara, hari kugendamo imodokadoka y'umutuku n'abamotari, hirya n'izindi modoka zisa umukara, impande y'uyu muhanda hari ubusitani bwiza cyane, busa icyatsi, hariho n'amatara yo mu muhanda hirya hari n'inyubako nziza cyane.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nyinshi n'abamotari n'abanyonzi n'agahanda k'abanyamaguru karimo abantu bari kugenda, hirya yaho hari amatara yo mu muhanda hari n'amapoto manini cyane impande y'amapoto hari ibiti bisa icyatsi.

Umuhanda w'igitaka uri kugenda mo imodoka ebyiri, iyumukara n'iyumweru, hirya y'umuhanda hari akapa kariho ibara risa umweru n'umukara, ruguru yako kapa hariho umugabo wambaye ishati y'umukara, ruguru yuwo mugabo hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo kugendamo ikimodoka gisa umweruru gisharuyeho akarongo gasa umuhondo hirya y'imodoka hari ikimodoka kinini cyane gisa ubururu n'umweru cyandikishije amagambo mu nyuguti asa umweru imbere y'izi modoka hari n'ikindi kimodoka kinini ifite ibara ry'icyatsi n'ubururu.

Imodoka ziparitse ebyiri imwe isa ubururu n'umukara n'indi isa umweru n'umukara. Hari gucamo umugabo wambaye isengeri isa umutuku handitseho ku isenge nimero mirongo itatu na rimwe, yambaye n'ipantaro isa ubururu n'inkweto zisa umweru n'umukara, ku modoka hariho umwana wishimye cyane wambaye agapira k'umweru.

Umuhanda usa umukara, uri kugenda bikimodoka gisa umukara n'umweru, hariho n'ibara risa icyatsi. Impande y'iyi modoka hariho n'indi modoka iri gusa umukara. Hirya hariho n'amatara yo mu muhanda n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Amapikipiki menshi aparitse afite ibara risa ubururu afite amapine asa umukara, hariho umugabo utwaye ipikipiki wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umweru n'ingofero isa ubururu, aya mapikipiki aparitse ku muhanda usa igitaka.

Umuhanda w'umukara uri kugendamo ikimodoka kinini gifite amapine asa umukara, n'ibirahure bisa umukara, gifite ibara ry'ubururu n'umweru, hirya hariho amatara yo mu muhanda, n'ibiti bisa umukara n'icyatsi. Hariho n'umugabo wikoreye umufuka usa umuhondo n'inkweto ze zisa umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara uri kugendamo ikimodoka kinini cyane gisa umweru, gifite n'amapine asa umukara, hari icyapa gisa ubururu, cyandikishije inyuguti zisa umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ikimodoka gisa umutuku, gipfundikije shitingi y'umukara hirya yaho hari n'amapoto ajyana umuriro hirya no hino hatandukanye, hari n'inyubako nziza cyane impande y'uyu muhanda hari kugenda umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'ikigina.

Aha harimo hano hari imodoka ifite amabara y'umweru ifite amapine y'umukara hirya y'imodoka hari umugore ukenyera ibitenge n'umugabo wambaye ishati y'umweru, hirya y'izi modoka hari insinga zijyana umuririro n'amatara yo mu muhanda.

Aha hari imodoka ifite amabara yumweru ifite amapine y'umukara impande y'iyi modoka hari umugabo wambaye imyenda yumukara, hirya y'uyu mugabo hari undi mugabo wambaye ishati iciyemo uturongo irimo amabara y'umuhondo yambaye n'ipantaro.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara harimo imodoka isa umweru n'ipikipiki isa ubururu hejuru hari igishitingi gisa umukara handitseho inyuguti zisa umweru, hari hariho n'umuyonzi kuruhande hepfo ye hariho rigori ijyana amazi, ruguru ya rigori hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara uri kugendamo abamotari n'imodoka isa umukara, n'imodoka isa umweru, ifite n'amapine asa umukara impande y'uyu muhanda hariho inyubako nziza cyane ifite irangi risa umweru n'umukara ifite n'irangi riri ku nzugi risa icyatsi.

Umuhanda w’igitaka uri kugendamo imodoka y’umukara n’umumotari wambaye ijire y’umuhondo n’ubururu n’abagenzi, harimo umuntu wambaye imyenda y’umukara yikoreye imifuka ibiri, n’umudamu nawe ufite agafuka mu ntoki ahetse n'umwana, ruguru yaho hari ikimodoka kinini cyane gisa ubururu n'umweru.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo uri kugendamo ikimodoka kinini cyane gifite ibara ry'umweru n'umukara, cyandikishije inyuguti zisa ubururu. Hirya y'iki kimodoka hari insinga zijyana umuriro hirya no hino ku isi hatandukanye hirya harihoho n'ibiti byinshi cyane.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikimodoka kinini cyane, gifite ibara ry'ubururu n'umweru, harimo inka isa umweru n'umukara, gifite amapine asa umukara. Hirya y'iki kimodoka, hariho amatara yo mu muhanda, hariho n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo uririmo imodoka zitandukanye, harimo imodoka isa umutuku n'umuyonzi wambaye agapira gasa ubururu, hirya yaho hari n'undi mugabo wambaye igisurubeti gisa ubururu, hirya yaho hari ibiti byinshi cyane n'imidugudu myinshi hariho na sitasiyo ifite ibara risa ubururu n'umuhondo nicyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara, hari kugendamo umunyonzi uhetse umufuka w'umweru, mu mpande y'uwo mufuka hariho akarongo gasa umuhondo, umunyonzi nawe yambaye ipantaro isa ubururu na siripa zisa ubururu. Impande y'uwo muhanda hariho rigori ijyana amazi. Hariho n'imodoka isa umweru, hejuru hariho shitingi isa umukara, hakurya yaho hari ubusitani busa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara, uri kugendamo ipikipiki isa ubururu, hejuru hariho shitingi isa ubururu. Biragaragara ko bapakiye intebe. Hariho abagabo bari kugenda mu gahanda k'abanyamaguru, umwe yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro yijimye n'inkweto zisa umukara, n'undi wa yambaye umupira wijimye n'inkweto z'umweru. Hirya hari ibiti bisa icyatsi n'amatara yo kumu

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo uri kugendamo umumotari wambaye ijiri isa umuhondo n'ubururu na kasike isa umuhondo, hirya y'umumotari hari ikimodoka kinini cyane gisa umweru gifite amapine asa umukara, hirya y'iyi modoka hariho ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara uri kugendamo imodoka kinini gisa umutuku gifite n'amapine y'umukara umukara, hirya y'iki kimodoka hari kugendamo ikimodoka gisa umukara gifite amapine asa umukara, hirya y'izi modoka hariho ibiti bisa umukara n'icyatsi, hirya y'ibibiti hari n'inyubako nziza cyane.

Imodoka nyinshi cyane ziparitse kumuhanda ufite amapave asa shokora harimo imodoka isa umweru n'umukara ifite n'amapine asa umukara. Impande y'imodoka hahagaze umugabo wambaye imyenda isa umukara n'inkweto z'umukara. Hirya hariyo undi mugabo wambaye itaburiya y'umweru afashe akana kambaye imyenda isa umuhondo n'umweru, hirya y'abo hari n'ikindi kimodoka kinini cyane gisa ubururu n'umukara.

Umuhanda wabakije amapave yijimye, haciyeho uturongo dusa umweru, biragaragara ko ari muri gare ya parikingi y'imodoka, haparitsemo ikimodoka kinini gitwara abagenzi, gisa umweru, n'ubururu, n'amapine asa umukara, gifite n'ibirahure bisa umukara. Hirya y'icyo kimodoka hariho n'aho abagenzi bicara.

Umuhanda w'igitaka urimo ikimodoka gisa icyatsi cyijimye, ku modoka hari ishitingi isa ubururu, hari n'ikimodoka gisa umutuku n'kirahure gisa umukara. Hirya yaho hari amatara yo mu muhanda n'ibiti bisa icyatsi. Hariho n'indi modoka ifite ipine mu mugongo isa umukara n'u..

Umuhanda wa kaburimbo ruguru y'umuhanda hari agahanda k'abagenzi kari kugendamo abantu benshi n'abanyonzi, hirya mu muhanda wa kaburimbo hari kugendamo moto. Hirya y'aka gahanda hari ipoto hariho n'amatara yo mu muhanda, biragaragara ko bwije cyane ari nko ku mugoroba, hirya y'umuhanda harimo n'ubusitani busa icyatsi bwiza cyane.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukara uri kugendamo ikimodoka kinini gisa umweru n'umukara, gifite hejuru ibintu gipakiye hariho n'igipine, hirya y'iyi modoka hari sitasiyo ifite ibara risa umweru n'icyatsi, hirya hari n'ikindi cyapa gisa icyatsi n'umweru, haparitse n'imodoka zisa umweru n'umukara.

Umuhanda w'umutuku wegeranye n'umuhanda uriho amabuye yijimye, uwo muhanda uriho intebe ifite ibyuma hasi bisa umukara, hejuru aho bicara hasa umutuku, hirya y'uwo muhanda hari ipoto, hariho n'ubusitani busa icyatsi bamenaguriyemo amabuye.

Inyubako nziza cyane ifite umuhanda w'ikigina, ifite ubusitani bwiza cyane, mu busitani hari n'icyapa cyandikishijwe inyuguti y'amabara y'umweru harimo ubururu, impande y'inyubako hariho abamotari n'abandi bantu bari kugenda n'imodoka nziza cyane zisa umweru n'ibiti bisa icyatsi.

Umuhanda w'igitaka ushoyemo akarongo gasa umweru, hirya y'umuhanda hariho ibyuma bisa umukara hariho n'abantu, hariho n'ibiti byinshi cyane bisa umukara n'icyatsi. Hariho n'amapoto ajyana umuriro hirya no hino ku isi n'inyubako nyinshi zitandukanye ziri hirya.

Ubusitani bunini cyane, bufite ibara ry'icyatsi, hirya y'ubu busitani hari ibyapa bifite ibara ry'umweru n'ubururu, kandi hirya y'ibyapa hicaye umuntu wambaye imyenda y'umukara n'inkweto z'umweru, hirya y'ibi byapa hariho n'ibiti binini cyane, bifite ibara ry'icyatsi n'amapoto.

Inyubako nziza cyane ifite ibara risa umuhondo n'ubururu yandikishije mu nyuguti zisa umweru, imbere y'iyi nzu hariho n'ubusitani bwiza cyane, hirya y'iyi nzu hariho n'ibigega bisa umukara hirya yaho hari n'indi nzu yubakishije amatafari asa shokora.

Icyapa gisa umutuku gifite mpande enye, mo imbere harimo umukara n'umweru, biragaragara ko ari icyapa cyo mu muhanda, impande y'iki cyapa kuruhande hariho umweru n'handi kuruhande hariho umweru.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, uri kugendamo abamotari babiri. Hirya y'umuhanda hari ubusitani bwiza cyane. Hariho n'amatara yo mu muhanda impande y'amatara hari ibiti byiza cyane bisa icyatsi.

Icyapa gifite ibara risa ubururu, harimo ibara ry'umweru, hashushanyijemo imodoka isa umukara. Iki cyapa gifite icyuma gisa umweru igikuta gisa na cyo umweru hirya y'iki gikuta harasa naho umweru.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ibara ry'umutuku n'umweru handitse inyuguti ya p isa umukara hirya y'iki cyapa hariho umweru iki cyapa n'icyo mu muhanda impande y'iki cyapa harasa umweru.

Icyapa gifite ibara risa umutuku, hagati hariho umweru, handikishije inyuguti zisa umukara. Icyapa ni ikiziga, inyuma yacyo hasa umweru, kino cyapa biragaragara ko ari icyo mu muhanda. Hirya yaho, hariho umweru, hasi hari umukara.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ibara risa umutuku n'ubururu, hasi y'iki cyapa handikishijeho inyuguti zisa umweru, hariho n'akarongo gasa umukara. Inyuma y'iki cyapa hariho urukuta rusa umweru.

Icyapa gisa icyatsi cyandikishije amabarasa umweru, cyandikishije n'inyuguti zisa umuhondo, hasi hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo moto n'imodoka, hirya hari n'amatara yo mu muhanda, hirya y'umuhanda harimo n'ibiti byinshi cyane bisa.

Icyapa gifite ibara ry'umweru cyandikishijwe mu nyuguti z'umukara, hirya y'iki cyapa hari ibiti binini bifite amabara y'icyatsi, impande y'ibi biti hari n'inzu ifite amabati y'umutuku.

Icyapa gisa umweru gikikijwe n'ibara risa umutuku, cyandikishije mu nyuguti nimero makumyabiri isa umukara, inyuma y'iki cyapa harasa umweru cyane biragaragara nkaho ari icyapa cyo mu muhanda.

Icyapa gisa umuhondo kirimo ibara risa umukara, gitangijwe n'ibara risa umukara hiryawo hariho umweru biragaragara ko ari icyapa cyo mu muhanda kiyobora imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukara ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, uriho icyapa gisa ubururu kirimo agafureshi gasa umweru, gishushanyijeho n'imodoka isa umweru, ruguru y'uyu muhanda hariho ubusitani bwiza cyane busa umweru, ruguru y'ubu busitani hariyo inzu nziza cyane ifite igipangu gisa umweru, umuhanda uri kugendamo n'abamotari.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara, ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, ruguru y'umuhanda hari akapa gasa ubururu karimo uturongo dusa umweru. Hirya y'uyu muhanda hariho ubusitani bwiza cyane busa icyatsi buririmo ururabyo rusa umuhondo, hariho n'amatara yo mu muhanda.

Icyapa gisa umuhondo kirimo amabara y'umutuku n'umweru, cyandikishijwe inyuguti z'umukara inyuma yiki cyapa hariho n'ibara risa umukara, hari n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi n'umukara.

Umuhanda w'umukara uciyemomo akarongo k'umweru, hirya y'umuhanda hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, harimo icyapa gisa umweru hasi, hejuru hasa umuhondo haciyemo akarongo gasa umweru, kino cyapa gifite mpande enye.

Icyapa gisa umutuku, gifite mande eshatu, harimo ibara risa umukara, hirya y'iki cyapa harasa umweru. Kino cyapa boragaragara yuko ari icyo mu muhanda hirya naho hari umweru.

Umuhanda w'igitaka hirya y'umuhanda hari inyubako nziza cyane ifite ibara ry'umukara n'umweru, yubakishije amabuye asa shokora, afite n'ibyuma bisa umukara, hirya y'umuhanda hari rigori ijyana amazi n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi n'abantu bari kugenda mu muhanda.

Inyubako nziza cyane ifite amadirishya asa umweru n'inzugi zisa umweru, hejuru hari icyapa gisa umweru cyandikishije mu nyuguti zisa ubururu, iki cyapa kiriho ikiganza, hasi hariho amakaro asa umweru.

Inyubako nziza cyane, ifite amarangi asa umukara n'amadirishya asa umukara, hariho akapa gasa umweru kandikishinje mu nyuguti zisa umukara, impande yako kapa hasi hariho imodoka nziza cyane isa umweru n'umukara, imbere y'iyo nyubako hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, hejuru hariho amabati asa umutuku biragaragara ko ari ku mu...

Inyubako nziza cyane ifite amabati asa umutuku, ifite irange risa umukara n'umweru, ifite igipangu gisa umukara, iyi nyubako irimo n'indabyo nziza cyane zisa umuhondo n'icyatsi.

Inyubako nyinshi cyane hariho akapa kandikishije mu nyuguti zisa umukara kandiditseho i Remera, hirya y'aka kapa hari imidugudu myinshi cyane yubakishije amabati asa umweru n'ibiti byinshi bisaicyatsi.

Inyubako nziza cyane ifite amabara asa umweru n'umukara n'ibara risa umuhondo, yandikishijwe mu nyuguti zisa umweru n'umukara. Hariho n'amatara hejuru y'iyi nyubako hariho ibicu bisa umweru.

Indabyo nziza cyane zisa icyatsi, nicyatsi cyijimye. Impande yizo ndabyo hari ibyuma bisa umukara hejuru yibyo byuma hari igipangu cyubakishijwe amabuye asa shokora, hejuru yicyo gipangu hari ibyuma bisa umweru. Mu gipangu mo imbere harimo inyubako nziza cyane y'ibiti bisa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara ukikije amabuye y'umukara n'umweru, impande y'umuhanda hari inyubako nziza cyane ifite ibara ry'umukara n'umweru yubakishije amatafari asa shokora. Hafi yinyubako hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, hirya y'umuhanda hari n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, hariho n'amatara y'umuriro.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru hari kugendamo abamotari bambaye casque z'umutuku, hiryaha hari inyubako nziza cyane ifite ibara risa umuhondo, impande yiyo nyubako hari ibiti byiza cyane bisa icyatsi, hariho n'umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'icya.

Ubusitani bwiza cyane bufite ibara ry'icyatsi hariho ni poto risa umweru. Hirya y'ubusitani hariho abantu babiri bicaye; umwe yambaye umupira w'umweru n'inkweto z'umweru n'ipantaro y'umukara, undi yambaye umupira usa umuhondo n'ipantaro y'umuhondo n'inkweto z'umweru.

Umuhanda w'igitaka uri kugendamo abantu. Hirya y'umuhanda hari icyapa gisa umweru cyandikishije mu nyuguti zisa umukara. Burya yiki cyapa hari inzu ifite irangi risa umweru, impande y'inzu hari indabyo nziza cyane zisa icyatsi, hariho n'amapoto ku muhanda ajyana umuriro hirya no hino hatandukanye.

Imodoka eshatu ziparitse imbere y'inyubako imwe isa umakara n'indi isa umweru, n'indi isa umukara. Imbere y'izi modoka hari gusohokamo umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara afite na mverope mu ntoki ya shokora. Hejuru yabo hari inyubako nziza cyane ifite amabara y'umweru hariho insinga zijyana umuriro hirya no hino ku isi.

Umuhanda w'ikigina, hirya y'umuhanda hari ubusitani bwiza cyane bufite ibara risa icyatsi, impande y'ubu busitani hari inyubako nziza cyane ifite irangi risa umweru n'umukara, hirya y'iyi nyubako hari amapoto afite insinga zijyana umuriro hirya no hino hatandukanye.

Inyubako nziza cyane imyenda y'inyubako hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi n'indabyo zisa icyatsi, inyubako ifite ibara ry'irangi risa umweru n'amadirishya asa icyatsi n'ibyuma bitangije inyubako birasa icyatsi, hejuru hari ibicu bisa umweru biragaragara ko ari ku manywa.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, impande y'ayo mabuye hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, mu muhanda hari kugenda umugabo wambaye imyenda yumukara, atwaye amacupa ya gaze, wambaye na kasike isa umutuku, hirya y'umuhanda hari inyubako nziza cyane ifite amabati y'umutuku n'ibara risa umweru.

Inyubako nziza cyane zubakishijwe amabati asa umutuku, impande yizi nyubako hariho n'ubusitani bwiza cyane busa icyatsi. Hasi hariho n'amapoto ajyana umuriro hirya no hino hatandukanye.

Inyubako nziza cyane ifite irangi risa umweru n'umukara. Itangijwe n'ibyuma bisa umukara, hariho udutafari dusa shokora, impande y'iyi nyubako, hari ururabyo rwiza cyane rusa icyatsi. Impande y'iyi nyubako hari umuhanda usa ikigina, uparitseho imodoka nyinshi zifite amabara atandukanye umweru n'umukara n'umumotari.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo abamotari babiri, hari kugendamo n'umugabo afite umufuka ku rutugu, yambaye ijiri y'icyatsi n'umukara n'inkweto z'ubururu, hirya y'uyu mugabo hariho imodoka z'umweru ziparitse, n'igiti cyiza cyane gisa icyatsi, n'inyubako nziza cyane isa umweru n'umukara.

Hano hari akapa gasa umweru kandidikishije inyuguti z'umukara hasi yaho hari ikigega hirya y'iki kigega, hariho umudugudu utuwe cyane n'ibiti byinshi cyane by'umukara, hari inyubako zitandukanye nini.

Icyapa gisa umweru hejuru handikishijeho inyuguti zisa umukara, handitseho Remera, hasi hari akandi kapa gasa umutuku kandidikisha inyuguti z'umweru, hirya y'iki cyapa hariho ibiti bisa icyatsi, hirya y'ibi biti hariho inyubako nziza cyane.

Amazu menshi cyane, hejuru yaya mazu hariho icyapa gisa umweru cyandikishije mu nyuguti z'umukara handitseho Nyagavu, hirya y'iyi midugudu hariho ibiti byinshi cyane bisa icyatsi hariho n'amapoto ajyana umuriro.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara, ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, impande yayo mabuye hari ubusitani, hariho imodoka ziri kugenda iy'umukara n'iy'umuhondo, n'indi y'umukara n'umumotari hejuru hari n'amatara yo mu muhanda hirya hari ibiti cyane bisa icyatsi.

Umuhanda uca hejuru n'uwuca hasi umuhanda uca hasi hari kugendamo umumotari n'imodoka, imbere ye hari imodoka eshatu harimo isa umutuku nini cyane n'indi isa umukara n'abamotari, hirya y'izi modoka hariho ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukara ushoyeho uturongo tw'umweru ariho abagenzi bambukira. Impande y'uwo muhanda hari ibyuma bisa umukara hasi hari ikiro kijyana amazi. Hirya y'umuhanda hari amatara ari kwaka umuhondo, hirya y'amatara hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo umumotari n'umuyonzi nkimodoka kinini cyane gitwaye abagenzi gisa ubururu n'umukara n'indi modoka iri inyuma yacyo isa umweru inyuma yimodoka handikishijwe inyuguti z'umukara hirya y'umuhanda hariho ibiti byiza cyane bisa icyatsi n'amapoto ajyana umuriro hirya no hino hariho n'amatara yo mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukara uri kugendamo abamotari n'imodoka, hashoyemo uturongo tw'umweru, harimo umumotari wambaye imyenda y'umukara nakask isa umweru hirya y'umuhanda hari imodoka ebyiri ziparitse isa umukara n'umweru, hariho n'amatara yo mu muhanda hirya hariyo n'ubusitani bwiza cyane.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara, hari kugendamo imodoka isa umukara n'umweru n'iyisa umweru, impande y'izi modoka hari amatara yo mu muhanda, biragaragara ko bwije cyane, hirya y'umuhanda hariho n'ubusitani bwiza cyane busa icyatsi hariho abantu batatu, uwambaye agapira k'umutuku, hirya yabo hari ibiti bisa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'amabuye asa umukara, hirya hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, hari kugendamo abamotari n'imodoka hariho n'amatara yo mu muhanda. Hirya hariho n'inyubako nziza cyane ifite ibara ry'ubururu n'icyatsi.

Umuhanda usa umukara uri kugendamo moto, hirya y'umuhanda hariho umutaka usa umutuku n'uwusa umuhondo, hirya yaho hari n'inyubako nziza cyane ifite ibara ry'icyatsi niry'umweru, hirya hariho n'indi nyubako nini cyane ifite ibara ry'umutuku n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara, ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, uriho indabyo nziza cyane zisa icyatsi, hari kugendamo umumotari n'ikimodoka gisa umukara n'umweru, hirya hariho amapoto yo mu muhanda, hariho n'amatara yo mu muhanda, hirya yaho hariho n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Hano hari umuhanda ukikijwe n'amabuye y'umweru n'umukara, umuhanda usa ikigina, hirya y'uyu muhanda hari ubusitani bufite ibara ry'icyatsi n'ipoto rinini cyane hirya hariho n'umugabo.

Umuhanda wumukara ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, ufite ubusitani bwiza cyane busa icyatsi. Mu busitani hari icyapa gisa umweru cyandikishijwe mu nyuguti zisa umukara. Hari kugendamo imodoka n'abamotari, hari n'amatara yo mumuhanda, hirya y'umuhanda hari n'ibiti byinshi cyane bikikije umuhanda bisa n'icyatsi.

Umuhanda usa umukara uri kugendamo umugabo ku igare uhetse agakapu k'umukara, hirya yiwe hari abamotari babiri n'imodoka isa umuhondo n'umweru, hirya yaho hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, hirya yaho hari n'ibindi biti byinshi.

Umuhanda w'umukara ukikijwe n'amabuye asa umweru n'umukara, hariho ubusitani bwiza cyane ubusa icyatsi, hirya y'ubusitani hariho amatara yo mu muhanda hari kugendamo imodoka zisa umukara n'umweru, n'isa umuhondo, n'abamotari n'abagenzi.

Umuhanda w'umukara utangijwe n'amabuye y'umweru n'umukara, hirya y'umuhanda hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, impande y'ubusitani hari ibiti binini cyane nabyo bisa icyatsi, n'amapoto asa umweru, uyu muhanda uri kuzamo imodoka ifite ibara ry'umukara n'umweru.

Umuhanda ufite amabuye asa shokora, uri kugendamo umugore wambaye inkweto z'umukara n'ijipo y'umukara, afite n'agakapu. Hirya y'umuhanda hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi. Ruguru y'uyu mugore hari imodoka ebyiri; imwe isa umweru n'indi isa umukara n'umweru; hariho n'icyapa gisa icyatsi cyandikishijwe amabara asa umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo abamotari n'imodoka y'umukara ,hirya y'umuhanda hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi n'ubusitani bwiza cyane busa icyatsi hari n'umuhanda wigitaka, hari n'umuhanda wabanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'amabuye asa n'umukara n'umweru, mu muhanda hashoyemo udufureshi dusa umweru. Hirya y'umuhanda hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi, hariho n'umugabo wambaye ishati y'umweru n'pantaro yijimye.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara, ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, uciyemo uturongo dusa umweru, hano ni ho abanyamaguru bambukira. Hariho icyapa cyo ku muhanda gisa umutuku n'umweru. Hirya hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara ushoyemo uturongo tw'umweru ariho n'abantu bambukira, hariho n'ibyapa byo mu mu handa byambutsa abantu iyo cyatse umutuku cyangwa icyatsi, hirya y'ibi byapa hariho n'ubusitani bwiza cyane busa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo ushoyemo akarongo gasa umuhondo, hari kugendamo abamotari hirya y'uyu muhanda hari amatara ari ku muhanda hari n'amapoto hari n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi. Hepfo y'ibi ibiti hari ubusitani busa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo umugabo w'umunyonzi, hepfo yaho hari abamotari babiri baparitse umwe yambaye ingofero y' yumuhondo n'undi yambaye ingofero isa ubururu, hirya y'umuhanda hariho ubusitani bwiza cyane busa icyatsi hariho amatara yo kumuhanda n'amapoto ajyana umuriro.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara uri kugendamo imodoka y'umweru ifite amapine asa umukara yandikishijweho ibara risa icyatsi, hirya y'iriya modoka, hariho n'imodoka y'abashinzwe umutekano isi umweru iriho n'akantu gasa umuhondo, inyuma yaho hari n'indi modoka isa umweru ifite n'amapine asa umukara, hirya hari n'inyubako nziza cyane na sitasiyo n'ibiti bisa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara, uciyeho uturongo dusa umuhondo twinshi cyane, n'uturongo dusa umweru, ari ho n'abagenzi bambukira. Hirya y'uyu muhanda hari amapoto yo mu muhanda, hariho n'amatara yo mu muhanda n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, haciyeho uturongo dusa umukara hariho n'aho bambukira ni umuhanda unyuranamo hariho ibyapa bisa icyatsi byo ku muhanda n'amatara yo ku muhanda, hari kugendamo moto n'imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara, ushoyemo imirongo isa umweru n'imirongo isa umuhondo, hakurya y'uwo muhanda hari imodoka ziri kuza ari nyinshi iy'umukara icanye amatara y'umweru, niy'umweru icanye amatara asa umweru hakurya y'uyu muhanda hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi n'amatara yo ku...

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo uturongongo tw'umweru, utangirijwe amabuye asa umukara n'umweru ni naho abagenzi hano bambukira, hirya yaho hari umuhanda w'umukara uri kugendamo imodoka y'umukara n'abamotari, n'inyuma hari imodoka y'umweru ruguru y'umuhanda hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka ebyiri n'abamotari babiri n'abagenzi, hirya yaho hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, hirya y'ubusitani hari inyubako nziza cyane isa umweru, hirya y'inyubako hariho ibiti byinshi bisa icyatsi n'amapoto.

Imihanda ibiri inyuranyuranamo, hari uwo hejuru hari no uwo hasi, uwo hasi hari kunyuramo moto n'imodoka isa umweru n'umukara, hirya y'umuhanda hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi n'umuhondo hari n'uturabyo tw'umutuku hariho n'amatara yo ku muhanda nabagenzi bari kugenda.